Uruhurirane rw'abantu runaka bari hamwe, bishimiye kwifotozanya berekana ko ari umuryango cyangwa se bishimiye ko bari mu gikorwa kimwe, bahisemo kwifotozanya mu cyimbo cyo kwerekana ko bishimiye igikorwa bari barimo, bifotoreje ahantu heza hari inzu hakikijwe n'amapave.

Itiyo icometse ku gikuta irimo isohora amazi meza, ibiganza biteze amaboko yombi birimo gukaraba bikora isuku, ndetse amazi agahita akomeza mu muferege, ahabugenewe, aho amazi agomba gukomereza amanuka.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batanu bari mu nama runaka biga ku kintu kimwe cyangwa ikindi, bafite amakaye ndetse n'amakaramu bari kugenda bandika icyo bemeje cyangwa icyo bahakanye muri iyo nama bari bakirijwe amazi y'inyange.

Ibipimo byerekana uko genda ikomeza kugenda isiganwa, mirongo itanu na gatanu ku ijana byari bibiri na cumu n'umunani, mirongo irindwi ku ijana byari muri bibiri na cumi n'icyenda, mirongo irindwi nagatandatu ku ijana byari muri bibiri na makumyabiri, mirongo irindwi n'icyenda ku ijana byari byari muri bibiri na makumyabiri.

Abantu bambaye amataburiya y'ubururu basa nkaho bakora kwa muganga ndetse bambaye n'amabaji yabo bamwe na bamwe, berekana amatelefone bafite mu ntoki yose y'umukara. Harimo abandi bagabo batambaye ayo mataburiya y'ubururu, bambaye amakoti ndetse n'amapantaro, bisa nkaho ari bo bayoboye.

Umuvomeshi arimo kuvomesha amazi ndetse n'abadamu n'abana, harimo abambaye ibitenge ndetse n'uwambaye imyenda isanzwe, batonze umurongo bategereje amazi.

Abagore babiri bateruye utwana dutoya, hari n'undi usa nk'aho ari kubaganiriza uko wafata umwana cyangwa uko warera umwana ukiri mutoya kugira ngo akure neza. Imbere yabo hari ameza ateretseho amaterefone abiri, inyuma hari firigo iriho pirimusi.

Abaganga bahagaze imbere y'itente y'umweru handitseho RBC ndetse handitseho umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa ndetse n'abandi bantu batonze umurongo baje kwisuzumisha mu kanwa ariko barimo kubanza gupima umunzani.

Umuhungu wambaye umupira w'umweru usutse, ufite n'agasume ku rutugu, umukobwa wambaye umupira w'umweru udasutse, bari kwireba mu kirahure ahari lavabo y'amazi.

Abakecuru babiri bari mu muhanda bitwaje utubando bambaye imipira isa n'umutuku ndetse bafite n'imishanana, inyuma yabo hari abandi bantu barimo kugenda n'amaguru.

Umugore w'umuganga w'umuzungu, urimo gufasha umugabo w'umwirabura kuba yajya ku mbago, zimwe bagenda bafasheho n'amaboko abiri, zimeze nk'akagare umuntu abasubiza agenderaho, iyo afite ikibazo mu maguru atabasha kugenda neza.

Umusaza wambaye amarinete, ishati yicyatsi, ndetse najampa, urimo kwandika, ubona ashishikajwe no kwandika mu ikayi iteretse kumeza, ndetse ari ahantu hasukuye.

Abagore ndetse n'abagabo barimo gusarura ibyo bahinze ndetse bafite ibitebo, barimo kugenda bashyiramo ibihingwa bahinze, barimo gusarura.

Inama iyobowe n'abagore b'abaganga bunze ubumwe, iyo bita union women. Ikurikiwe n'abantu benshi bari muri iyo nama bambaye ama baji, bose basa nkaho bafite icyo bakora kwa muganga.

Abantu bagiye kwa muganga kwisuzumisha, abaganga bambaye amabaji ndetse imbere yabo hari hateretse uducupa turimo imiti cyangwa se ibyo basuzumisha abarwayi bagiye kwivuza.

Igikoresho cyo kwa muganga bakoresha barebamo mo imbere mu mubiri niba nta kibazo kirimo, urugero nk'imvune bakita Radiation, akabati k'umweru gapanzemo ibikoresho byo kwa muganga, hirya yaho hari imeza irambuyeho igitambaro cy'ubururu.

Utugare two kwa muganga tumeze nk'intebe isa nkaho yometse ku gikuta, amatara y'imyeru ariho yaka afashe muri parafo, televiziyo na yo imanitse hejuru kuri parafo ndetse n'imitako imanitse ku rukuta.

Inyubako nziza yo kwa muganga, isa neza, ifite amabara meza, ndetse ifite isuku. Hari reception nziza, yakirirwaho abantu baje bagana ivuriro, uyu hari amarido, kuri buri ruhande ruriho igitanda, igitanda gishinzwe kujyaho abarwayi.

Icyuma cyo kwa muganga bacishamo abarwayi bagira ngo barebe ibibazo ibyo ari byo byose baba bageze mu mubiri, hejuru yaho hariho itara ricanye umweru, hari utubati ku ruhande turimo ibikoresho byo kwa muganga, bifashisha bagira ngo bavure abarwayi.

Igikoresho gitangwa no kwa muganga kugira ngo kirinde ivi ryagize ikibazo cyangwa ryavunitse kugira ngo ridakomeza kwinyeganyeza rikaba ryatinda gukira cyangwa rikaba ryagira ikindi kibazo runaka bitewe n'uko ritarinzwe neza.

Umugabo w'umusore wateruye ibyuma uriho anywa amazi, bisa naho yarari muri siporo ufite ubwanwa, ufite umusatsi ndetse wambaye isengeri y'icyatsi, asa nkaho yari arushyemo.

Umukobwa uri muri siporo uriho akora physique, ariho agorora umugongo ndetse agorora n'akaguru byose icyarimwe, wambaye inkweto y'umweru, ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara ndetse n'aho bashyira terefone barimo kwirukanka.